Amashuri ni ngombwa kuko niho abanyeshuri bajya bakicara hamwe bagafatira ubumenyi buzabeshaho ejo hazaza habo ,kandi amashuri ni ho batoreza abana kirazira n'umuco, bakabaha ubumenyi amashuri ni ngombwa cyane.

Abarimu ni bamwe mu musingi w'uburezi dufite nonaha kuko aribo batanga ubumenyi ku bana bacu, bakabaha ubumenyi kandi buzabafasha mu myaka iri imbere, abarimu badufatiye runini nk'abanyarwanda kuko aribo barera banaha ubumenyi abana bacu kugira baziyiteho ejo hazaza habo.

Abanyeshuri biga imyuga, ni ngombwa cyane kubera ko bahakura ubumenyi bwinshi buzabatunga mu minsi iri imbere, kandi butuma bihangira umurimo, bityo rero bakiteza imbere...

Uburezi bwo kwigira mu ishuri bigongo kera cyane bajyaga bigira hasi bicaye hasi mbese ntabwo bigaga neza ubu ngubu basigaye biga neza, mu makarasi bakabamo ibizamini kandi bigisha cyane umunyeshuri bituma atetekereza neza kandi anatekereza kure.

Uburezi ku by'umwuga ni ingenzi cyane mu iterambere ry'u Rwanda, kubera ko umunyeshuri ufite ubumenyi runaka, bimufasha kwihangira umurimo, no kubaka ejo he hazaza, kubera ko aba afite kumenya kinintu azi gukora cyamufasha mu kwiteza imbere.

Amashuri y'ubumenyigiro ni ingenzi cyane, kubera ko abayiga ibaha ubumenyi bwatuma yihangira umurimo, ejo hazaza habo bakaba heza ,kubera ko burya ubumenyi bw'umurimo uzi neza, bituma ugira ibitekerezo byo kwihangira umurimo wawe ukurikije ubumenyi ufite.